Ndi kubona abari n'abategarugori b'Abanyarwanda bari kubyina imbyino gakondo za Kinyarwanda, nkabonamo n'umusaza umeze nkaho ari kubyina nawe n'abandi inyuma bari kuririmba indirimbo z'Ikinyarwanda.